Ino ni inzu y'ubucuruzi, muri iyi nzu bacururizamo ibyo kunywa by'ubwoko bwinshi butandukanye, muri iyi nzu habamo amatara acana amabara y'ubururu.

Hano muri iyi nzu harimo intebe zifite amabara rw'umweru, zikoze uruziga, zizengurutse ameza, imbere yazo muri etajeri harimo inzoga z'ubwoko bwinshi butandukanye.

Aya mazu ari hano ni akabare, muri aka kabari harimo intebe zose zisa n'umutuku, n'ameza yazo asa n'umutuku hariho n'ibyapa. Aha hantu hariho umutaka uzitwikiye, harimo n'umuntu wambaye umupira w'umutuku.

Iyi ni inzu y'akabari. Isize amarangi y'umuhondo. Isakaje n'amabati. Ifite n'amadirishya afite giriyaje. Urugi rwayo ni urwa metarike, rurafunguye. Hanze hariho intebe n'ameza biri ku mabaraza.

Iyi nzu icuririzwamo ibinyobwa byinshi cyane bitandukanye, habamo ibinyobwa biba mu makarito, harimo n'ibinyobwa biba mu macupa, muri iyi nzu harimo intebe ndende abantu bicaramo.

Aya mazu ni ay'ubucuruzi aya mazu acururizwamo ibinyobwa bitandukanye, aya mazu imbere yaho hariho abantu hari abicaye n'abari kugenda, aya mazu kandi harimo n'intebe nyinshi cyane zitandukanye.

Hano ni mu gikoni cy'akabari, bokerezamo na burushete, izi burushete bazokereza ahantu heza cyane, ha kijyambere hubatse neza, hubakishije amakararo, uyu mucoma yambaye n'ikanzu yabugenewe.

Iyo nzu bayita akabare. Aka kabari karimo ibinyobwa byinshi bitandukanye. Harimo amacupa ya mitsingi, harimo n'ibirahuri birimo inzoga. Aka kabari kandi kagira amatara acana, maze kagahindura amabara.

Hano hantu hacururizwamo ibinyobwa byinshi bitandukanye, hariho ibirahure birambitse hano ku meza, inzoga,... harimo n'amacupa ya za Mitsingi, harimo n'amacupa y'amarikeri, harimo n'amacupa y'ubwoko bwinshi butandukanye.

Aka kabari habamo ibinyobwa byinshi cyane bitandukanye, muri byo habamo ibinyobwa bisembuye, habamo ibinyobwa bidasembuye, habamo n'amazi yo kunywa.

Hano hantu muri ino nzune mu kabari. Aka kabare karimo abantu benshi batandukanye, bari kurya abandi bari kunywa. Aka kabari gafite amatara atandukanye. Harimo ari kwaka ubururu, hari n'andi kari kwaka umuhondo.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi. Muri iyi nzu harimo ibicuruzwa byinshi binyuranye. Bacuruzamo amavuta menshi atandukanye yo kwisiga, bacuruzamo amasabune y'amazi, imbere kuri kontwari hariho n'umunzani uhateretse.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, muri iyi nzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, hariho icyapa kigaragaza ibintu bacuruza harimo: omo bacuruza n'amavuta yo kurya, bacuruza n'ifarini bacuruza n'amayawurute, bacuruza ibicuruzwa byinshi bitandukanye.

Hano ni mu nzu z'ubucuruzi, izi nzu z'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, bacururizamo amakara, bacururizamo ibitoki, bacururizamo ibirayi, bacururizamo amavuta yo kurya, bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, inyuma y'izi nzu z'ubucuruzi hariho insina.

Ino ni inzu y'ubucuruzi, iyi nzu y'ubucuruzi icururizwamo ibintu bitandukanye. Ku muryango w'iyi nzu hariho icyapa kigaragaza ibintu bicururizwa muri iyi nzu bitandukanye.

Aya mazu ni amaduka. Aya maduka rwose se imiryango yayo yose irafunze. ariko hariho umuntu uri kugendagendaho. Aya maduka hariho ahamanitse ibyapa bigaragaza ibintu bacuruza.

Hano ni mu isoko. Muri iri soko rifite imiryango myinshi cyane itandukanye. Iri soko kandi ricururizwamo ibicuruzwa byinshi cyane bitandukanye, iri soko abantu baba barimo urujya n'uruza.

Aya maduka afite imiryango myinshi cyane, ikingishije inzugi za metarike, zifite n'ibirahuri, aya maduka mo imbere harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aya maduka kandi aparitseho moto, aya maduka kuruhande ariho igitambaro gisa n'umutuku.

Hano habamo ibicuruzwa by'ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye habamo amapine y'amagare ,amapine n'amamoto ibyuma bashyira mu mapine y'amagare n'amamoto, imigozi bahambiriza ku magare no ku mamoto.

Aya ni amazu y'ubucuruzi aya mazu acururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, hari ho imiryango icururizwamo ibikoresho by'ubwubatsi. Hariho indi miryango amabanki akoreramo agiye atandukanye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, iyi nzu igerekeranye bayita etaje, muri iyi nzu habamo ibicuruzwa bitandukanye, bacururizamo inzoga zo kunywa, bacuzamo imyenda yo kwambara, iyi nzu kandi yegereye umuhanda wa kaburimbo.

Aya mazu bayita amaduka, aya maduka yose inzugi zisa, imbere yaho hariho umuntu uri gutambuka, hariho n' undi uri ku igare uhetse n' ibidomoro, ay' amaduka afite amadirisha afunguye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi. Iyi nzu bayicuruzamo amacumbi. Aya amacumbi abantu bavuye hirya no hino bayararamo. Iyi nzu yubatse neza cyane, mu mbuga ifite n'amapave meza cyane.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi. Muri iyi nzu bacururizamo amakuvurori yo kwiyorosa, bacururizamo amashyuka biyorosa, bacururizamo n'imyenda bambaraga ni'ijoro yo kuraramo, bacururizamo n'imisego yo kwisegura.

Aya ni amazu y' ubucuruzi, muri aya amazu bacururizamo ibicuruzwa by' ubwoko bwinshi butandukanye, hariho ibyapa bigaragaza ibyo bacururizamo, kuri aya mazu kandi hariho moto ihaparitse, bacururizamo n' amabanki akoreramo.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi icuruza ibikoresho byo muri salo bitandukanye, harimo intebe z'imifariso, icuruza n'ameza atandukanye, harimo ibikoresho bigiye binyuranye.

Aya mazu aragerekeranye ni etaje. Aya mazu afite imiryango y'ubucuruzi myinshi. Aya mazu afite n'ibyapa bitandukanye, afite ibyapa bya Banke, afite n'ibyapa bya mitsingi.

Hano hantu haparitse imodoka ibiri z'ubwoko butandukanye, imbere yaho ziparitse hariho resitora, muri resitatora habamo ibiryo by'ubwoko butandukanye, hakabamo n'ibyokunywa by'ubwoko butandukanye.

Hano mu rugo mu muhanda, hariho umuntu upakiye umutwaro w'ibisheke, ahuye nundi muntu uje kugura ibisheke, arahagaze ari kumugurisha.

Aya ni mazu bacururizamo, kuri aya mazu hariho amamoto menshi cyane, inyuma y'aho hariho ibyapa byinshi bigaragaza ibintu bitandukanye bacururiza hano.

Iyi ni inzu yubucuruzi, iyi nzu isize amarangi y'ubururu, hejuru , hasi isize amarangi y'umukara, ifite icyapa gishushanyishije amabara y'umuhondo, abara y'umweru.

Izi ni inzu z'ubucuruzi izi, inzu z'ubucuruzi zubakishije amakaro, izi nzu zifite igikoni batekeramo, izi nzu kandi hariho ibyapa bigaragaza ibyo bacururiza muri izi nzu.

Hano ni ku isoko. Ku isoko bacururizamo ibicuruzwa by'ubwoko bwinshi butandukanye. Harimo inyanya bari gucururiza mu mapaniye. Hariho tungurusumu barigucuruza. Hariho n'umuzani bari gupimisha.

Aya n'amazu y'ubucuruzi, ayamazu bacururizamo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye; bacururizamo imyenda bambara, bacururizamo n'ibikapu, bakora amazu, haparitse imodoka y'ivatiri, haparitse n'umumotari wicaye kuri moto ye.

Aha ni ahantu bacururiza. Bacururizamo imiti y'amatungo, iyi miti y'amatungo umuntu uyicuruza yitwa veterineri. Veterineri niwe ushinzwe kuvura amatungo, nta wundi muntu uba ubifitiye uburenganzira.

Aya mazu, acururizwamo ibintu bijyanye n’amazi. Kuri uyu muhanda, hariho icyapa, kiyobora abantu, cyanditseho WASAC. Iki cyapa, gisize amarangi y’ubururu. Kuri aya mazu ya WASAC, nayo asize amarangi asa n’ubururu n’ay’umweru.

Hanze y'iyi nzu hariho ibicuruzwa bitandukanye hariho amabase agerekeranye, hariho ibiduki bigerekeranye, hari amatabuleti agerekeranye, hariho ameza agerekeranye, hariho n'imikoropesho hejuru y'ameza, hariho n'ibikapu bimanitse kuri libiti.

Iyi ni inzu. Iyi nzu ifite icyikoni, gifite amashyiga ya kijyambere bita rondereza, iyi rondereza kandi yubakishije amakaro.

Iyi n'inzu icururizwamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, bacururizamo amaji yo ku kunywa atandukanye, bacururizamo amayoga yitwa rikeri yo kunywa, bacururizamo n'amavuta yo kwisiga.

Iyi nzu icururizwamo; ricururizwamo aho abantu baryama, iyi nzu yubakishijwe amatafari ahiye, iyi nzu ku ruhande hariho igisahane cya tereviziyo. Iyi nzu kandi ifite ibyapa n'amanimero ya nyir'inzu.

Aha hantu ni ubucuruzi ,muri ubu bucuruzi bacuruza imirimbo y'abagore. Muri iyi mirimbo harimo amaherena y'abagore bambaraga ku matwi, harimo inigi bambara mu ijosi, harimo impeta z'ubwoko bwinshi butandukanye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi iyi nzu icururizwamo ibicuruzwa byinshi cyane bitandukanye, hacururizwamo ibikinisho by'abana hacururizwamo ibikapu byo gutwaramo, hacururizwamo amabiswi, amapampegisi y'abana, hacururizwamo ibikoresho byinshi cyane n'imipira yo gukina y'abana.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi icurizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye :habamo amakoti y'imvura ,harimo amatiyo y'amazi, imipira yo gukina n'amalinete yo kwambara.

Aha hantu ni ah'ubucuruzi hacururizwa risansi, peteroli, na mazutu. Aha hantu hanywesherezwa ibinyabiziga byinshi bitandukanye ,ahantu kandi hinjiza amafaranga menshi cyane kubera ko ibinyabiziga byose biza kuhanywesherezwa.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi. Iyi nzu ifite inkingi zisize amarangi y'ubururu. Ifite n'inzugi zisize amarangi y'ubururu. Iyo nzu ubwayo isize amarangi y'umuhondo. Kuri iy'inzu hegetseho igare, kandi hicayeho umuntu uri mu kazi.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi. Muri iyi inzu y'ubucuruzi bacururizamo imyenda y'ubwoko bwinshi. Muri iyi nzu hariho icyapa kigaragaza imyenda bacuruza, bacuruza imyenda y'abagabo n'imyenda y'abagore, hariho nimero n'amazina ya nyiri iduka.

Iyi nzu ifite igipangu gisize amarangi y'umukara, isize nayo amarangi y'ubururu bwijimye, mo imbere mu gipangu hateyemo insina.

Iyi nzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibyo kurya ibyo kunwa, harimo amasabune yo gukaraba ayo kumesa harimo amavuta yo kwisiga n'ibindi.

Aya ni amazu y’ubucuruzi. Aya mazu asize amarangi y’umuhondo, asize amarangi y’umutuku, yubakishijwe n’amakaro asize n’amarangi y’umuhondo. Aya mazu acururizwamo ibicuruzwa binyuranye bitandukanye.

Hano hariho inzu, iyi nzu bayita kimaranzara resitora iyi nzu isize amarangi y'umuhondo iyi nzu ifite n'inzugi zifite amarangi y'icyatsi, kuri iyi nzi hashushanyijeho umuntu uri kurya hariho n'ururabyo ruri ku ruhande rwo hirya.

Ino ni inzu y'ubucuruzi, iyi nzu bayitekeramo ibiribwa bitandukanye, batekeramo amasambusa, imireti, batekeramo ibiribwa byinshi bitandukanye.

Aha hariho inzu. Ino ni inzu bacururizamo. Iyi nzu bayicururizamo amacumbi yo kuraramo. Aha ku ruhande hariho ibyapa bigaragaza ko ari inzu y'amacumbi.

Iyi nzu icururizwaho imbabura z'amabati, igacururizwaho imbabura z'amabumba. Iyi nzu isakajwe amabati ashaje, ifite ibirahuri byamenetse. Iyi nzu bayiteye karabasasu y'umukara.

Hano hantu muri iyi nzu bacururizamo ibinyobwa bitandukanye, bacururizamo fanta na primus, ku mpande z'umuryango no hejuru yayo, hariho ibyapa bigaragaza ibyo bacuruza.

Hano hantu ni ahantu bacururiza, bahacururiza inkoko z'ubwoko bubiri hari inkoko zitanga amagi, hari n'inkoko zitanga inyama, aha hantu hariho icyapa kigaragaza ko hari nimero bahamagaraho.

Aya mazu ari hano yegereye umuhanda ,kandi inyuma yaho yegereye intoki n'ibiti by'avoka. Aya mazu arimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye ,bacururizamo amagaze y'ubwoko butandukanye ,harimo n'amajerekani arimo ibintu, harimo n'imifuka irimo ibintu.

Ino ni inzu y'ubucuruzi, iyi nzu bayicururizamo serivisi za eyateri, hahagaze umukiriya ari gushaka serivisi za eyateri.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, iyi nzu icururizwamo ibicuruzwa by'ubwubatsi ari byo amabati y'ubwoko butandukanye, harimo n'umufuka urimo imisumari.

Hano muri izi nzu bakora imiti zica udukoko dutandukanye, iyi miti yica udukoko tubangamira amatungo, inyuma y'izi nzu hariho icyapa kigaragaza ko bakora imiti.

Iyi nzu icururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, iyi nzu icururizwamo amakara, icururizwamo imboga, icururizwamo inyanya icururizwamo inkweto, iyi nzu k'urubaraza rwayo hegetseho igare.

Izi nzu zifite imiryango, zubakishije metalike, zifite n'ibirahure. Izi nzu kandi zicururizwamo amakara. Izi nzu mo imbere zifitemo intebe, izi nzu kandi hahagazeho abagabo babiri bafite amagare abiri.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi. Iyi nzu isize amarangi y'ubururu ku nkingi n'amabarara y'icyatsi ku nkuta, amabara y'umukara n'ubururu ku nzugi. Muri iyi nzu hariho icyapa kigaragaza ibintu bacururiza hano, bacuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa.

Aha hantu hariho inzu. Muri iyi nzu bacururizamo serivise za MTN. Inyuma y'iyi nzu ya MTN hariho uruzitiro rwa senyenge ruzitiye inzu.

Izi nzu zicururizwamo ibicuruzwa bitandukanye. Hari izicururizwamo kenkayori, izicururizwamo amagaze, izo bakoreramo salo do kwafile. Izi nzu kandi ni yetaje ziragerekeranye, hirya yazo hari izindi nzu zicyubakwa zitari zuzura.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, iyi nzu yubakishije amakararo. Imbere mu nzu habamo ibicuruzwa by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo: imifuka z'imiceri, harimo imifuka z'amasukari, harimo amasarisa, harimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye.

Aya mazu arimo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye harimo amapo abana bitumamo ,harimo imyenda y'abana ,harimo amakuvurori, harimo imyenda y'abantu bakuru, harimo amakovuri manini y'abantu bakuru ku nzugi hari n'amashusho ya Yezu.

Ahapntu hacururizwa ibicuruzwa byinshi bitandukanye. Hacururizwamo ibyo kwiyorosa, ameza, intebe z'abana, imisego, indobo, amabase, yo gukarabiramo, amayetajeri, amaberiso n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, iyi nzu y'ubucuruzi yubakishije imbaho, isize n'amarangi y'icyatsi. Iyi nzu iri kugaragara nkaho ishaje, iyi nzu inyuma yayo hariho urutoki.

Aha hantu hariho inzu y'ubucuruzi iyi nzu isize amarangi y'ubururu, ifite n'amadirishya afite ibyuma bifite n'inzugi z'ibyuma, iyi nzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye.

Hano hantu hari kugaragara urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga. Uyu muntu yikoreye ibase irimo ibicuruzwa agiye gucuruza. Imbere ye hariho amamodoka ari kugenda, n'abantu bari gutambuka bagiye...

Aya mazu ni ay'ubucuruzi. Aya mazu bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo intebe bicaramo, harimo ibikapu batwaramo, harimo ibitanda baryamamo, harimo n'amashuka, harimo n'amakuvurori biyorosa, harimo n'ibindi byinshi bitandukanye

Hano hantu harimo, ibicuruzwa byinshi bitandukanye, hariho n'umutaka bacururizamo, amayinite ya emutiyene, uyu muntu ariguha n'umukiriya amayinite, hano kandi hari ibicuruzwa gitandukanye, bacuruza imipira y'abana yo gukina, bacuruza n'amamoshwari hariho n'amagare gaharambitse.

Iyi nzu iri hano ni hoteli, iyi hoteli yubatse mu mashyamba, iyi hoteli ifite icyapa kirekire kigaragaza aho iherereye, iyi hoteri yegereye insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda uri hagati y'ibiti by'indabyo, ibi biti babyita indabyo, izi ndabyo harimo iz'umuhondo n'indabyo z'icyatsi, uyu muhanda wubakishije amabuye y'umukara.

Izi nzu zubatswe neza cyane mu buryo bwa kijyambere, zirimo amakaro inzugi zazo zisize amarangi y'umuhondo, ku nkuta zaho zisize amarangi y'umweru.

Aha hantu haba icyapa kiyobora abantu bajya kuri gestehawuzi, hariho nimero zabo hariho na numero za tininamba, aha hantu harimo inzu isakaje amabati y'icyatsi iyi nzu kandi ijitije ibyuma.

Hano hantu hicaye umuntu. Uyu muntu yicaranye n'ibidomora n'amabase arambitse hano. Iruhande rwe hariho n'imifuka itandukanye, hejuru ye hahagaze umuntu, hirya na ho hicaye undi, uyu muntu adota ibikoresho bitandukanye.

Hano ni ku isoko. Muri iri soko bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye. Bacuruza umunyu wo guteka, harimo biswi abantu barya, harimo n'amaji y'abana, bacuruza n'amabombo.

Muri iri duka habamo ibikoresho byo mu rugo by'ubwoko bwinshi butandukanye habamo amajaga atandukanye, amabase amanini n'amato ,amadobo, amapaniye n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Hano hantu ni ku isoko, muri iri soko hacururizwamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, muri byo bacururizamo ibikapu, bacururizamo imyenda, bacururizamo amasakoshi atandukanye.

Iki ni igihingwa gihingwa, iki gihingwa bacyita itabi, itabi mu muco w'Abanyarwanda bariha abakwe, itabi kandi ni igihingwa kigurishwa gitanga amafaranga.

Hano ni ku isoko, iri soko ribamo ibicuruzwa by'ubwoko bwinshi cyane butandukanye, habamo ibishyimbo, habamo imineke yo kurya, habamo imbuto barya, habamo ibihingwa byinshi bitandukanye bitanga amafaranga.

Muri iyi nzu y'ubacuruzi harimo ibintu byinshi bitandukanye, harimo amavuta yo kwiyisiga, harimo uburoso baboroshesha amenyo, harimo onja, harimo na tayari, harimo omo zo bafurisha imyenda, harimo supaguru bafatishaga ibikoresho bitandukanye.

Aya ni amacupa. Aya macupa abamo amavuta y'ubwoko bwinshi butandukanye bwo kurya. Aya mavuta harimo afite ibyapa by'umuhondo n'icyatsi, harimo amavuta afite ibyapa by'icyatsi n'umweru n'umutuku, harimo ibyapa bifite amabara asa n'icyatsi n'umweru murakoze.

Iri soko ribamo ibicuruzwa byinshi cyane bitandukanye. Iri soko ririmo abaguzi n'abagurishwa. Mu isoko bacururizamo amavuta yo kurya, amaji yo kunywa, imyenda yo kwambara, ibikapu byo gutwaramo, amajyani n'ibindi byinshi bitandukanye.

Iri ni isoko ribamo ibicuruzwa bitandukanye, bacururizamo amasafuriya yo gutekamo, bacururizamo imyenda yo kwambara, inkweto zo kwambara, n'ibisheke byo kurya.

Ahan ni mu isoko. Muri iri soko bacururizamo imyenda, imyenda irambitse hasi, irimo amabara atandukanye, harimo amabara y'umukara, y'ubururu, y'umutuku n'amabara y'umweru n'ayandi y'umuhondo.

Izi ni imboga , izi mboga bazita shufurerere , barazirya. Izi mboga ziteretse mu ibase isa n'ubururu . Izi mboga zahinzwe ahantu heza , zifite umusaruro mwiza , bazijyana no ku isoko bakazana amafaranga.

Muri iri soko harimo imashini zidoda, harimo amabiswi, harimo amaji atandukanye, harimo amasabune ,harimo amakorogate, harimo n'insenda, harimo n'amawomo bafurisha ,harimo n'indodo badodesha.

Hano hantu ni mu isoko. Muri iri soko bacururizamo ibicuruzwa by'ubwoko bwinshi butandukanye. Bacururizamo inkweto, bacururizamo amakotegisi y'abagore n'abakobwa, bacururizamo amasabune n'amavuta bitandukanye, bacururizamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye.

Muri iri soko bacururizamo ibikoresho binyuranye bitandukanye, bacururizamo imbabura batekaho, bacururizamo amasafuriya yo gutekamo bacururizamo ibyuma byo gukoresha bari guhata, bacururizamo amarushe, bacururizamo ibikoresho byinshi binyuranye bitandukanye.

Iri ni isoko bacururizamo ibikoresho bitandukanye bya elegitoronike, harimo muri ibyo: amasharijeri, amatelefone, ama ekuteri, amabafule, amaradiyo

Hano hantu hariho ibikoresho by'ubwoko bwinshi butandukanye, hariho gakoco zitega imbeba, hariho imyuko batekesha ibiryo, hariho udusanduku bashyiramo amafaranga bari kwizigama, hariho indiga bahatisha ibintu, hariho ibiziriko bazirikisha amatungo.

Iyi nzu ni iy'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye. Bacururizamo amaji yo kunywa bacururizamo umunyu wo gutekesha n'amabiswi yo kurya.

Muri iri soko habamo ibicuruzwa bitandukanye habamo :imiceri yo kurya, amakawuga yo kurya ,amandazi yo kurya, amagi yo kurya, inyanya zo kurya ,amaji yo kunywa ,amavuta yo kwisiga, amavuta yo guteka ,amasabune atandukanye n'ibindi.

Hano ni mu isoko, muri iri soko harimo abantu benshi cyane baje kugura, hari n'abandi bari gucuruza. Hariho n'imifuka irambitse hasi, hariho n'umuntu wambaye isarubeti isa n'ubururu.

Hano muri rino soko hacururizwamo ibicuruzwa byinshi cyane bigiye bitandukanye. Bacururizamo inkweto z'ubwoko bwinshi, bacururizamo imyenda itandukanye, hacururizwamo n'ibindi bintu byinshi cyane bitandukanye.

Hano ni mu isoko. Muri iri soko bacuruzi bazanyemo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane higanjemo ibicuruzwa by'ibirungo ari byo puwavuro na sereri.

Hano hantu ni ku isoko, aha hantu harimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, byo mu rugo, ibi bikoresho harimo amadobo manini cyane, harimo ibiduki, harimo ibikosi byinshi bitandukanye, harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, uyu muntu ari guruza.

Iri soko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye. Hacururizwamo amasafuriya manini n'amatoya, hacururizwamo amadobo, udupaniye, hacururizwamo kandi imyenda, hari irambitse hasi n'imanitse, harimo n'abantu benshi, urujya n'uruza rw'abaje kurangura.

Uru ni urusenda, urusenda barwita piripiri, urusenda iyo rwahinzwe neza rukitabwaho, rutanga umusaruro mwiza ushimishije rukazana amafaranga mu rugo.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, ariko cyane cyane ricururizwamo inyanya nyinshi, iri soko kandi ricururizwamo n'amayinite ya emutiyeni, iri soko rifite amazu asize amarangi y'iroza.

Hano hantu ni ku isoko. Ku isoko hacururizwa imbuto z'ubwoko bwinshi butandukanye. Hari gucururizwa wotameloni, hacururizwa ibinyomoro, hacururizwa amaronji, hacuruzwa amatunda, hacuruzwa n'imineke. Hacururizwa n'ibindi bicuruzwa byinshi cyane bitandukanye.

Hano ni ku isoko iri soko ririmo abantu benshi. Ni urujya n'uruza rurimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye harimo...harimo imineke harimo...